Abantu benshi bicaye mu nama, bagiye bari ku murongo, mu ntebe nziza zijyanye n'icyerekezo. Bamwe imbere yabo hari insakazamajwi ariko zihinnye zireba hasi, bigaragara ko batari kuzikoresha.

Bicaye mu nama bose bareba imbere ameza y'uruziga ariho igitambaro cy'umukara ndetse uducupa ibitabo na mudasobwa, umwe muri bo afite ikaramu mu ntoki ndetse na terefone.

Abantu bicaye mu matsinda bari mu nama. Bamwe barareba imbere yabo, abandi bararangaye. Ku meza hateretseho ibikombe n'ibirahure binywerebwamo ibyayi, hari abafite mudasobwa.

Ni mucyumba cy'inama hagati kumeza harasa umweru ndetse abantu bicaye kuburyo bwo kuzenguruka, imbere hari uwambaye ikoti akaba ariwe ubayoboye ndetse iruhande rwe hari ibendera ry'igihugu.

Abantu bicaye mu nama ku gice kigana imbere kuko inyuma imyanya irimo ubusa, hari insakazamashusho iri hagati y'ameza aho buri umwe aba areba umurongo w'ibyigirwaho bose batumbereye imbere yabo.

Nabantu bicaye kuntebe bari munama aho abenshi uribobashyize amaboko yabo kumeza hari ibitabo ndetse nuducupa twamazi tugiye turi kumurongo burumwe agenewe ake.

Ni abantu bicaye imbere y'itangazamakuru, bigaragara ko hari ubutumwa barimo baratanga, ameza ariho ibitambaro by'umukara n'intebe zisa zityo, mu bicaye imbere harimo abashinzwe umutekano ndetse n'abaje gufata amashusho.

Abantu bicaye mu nama ariko bagiye bari mu matsinda y' uruziga, imbere hicaye abari gutanga imbwirwaruhame, ufite insakazamajwi mu bantu benshi ni we barangamiye, hari ameza atagaragara neza y' igitambaro cy' umweru.

Ni ikoraniro ry'abantu benshi bari mu cyumba kiberamo inama. Imbere yabo hari ufite insakazamajwi mu ntoki, wambaye ikote ry'umukara uri kubaha imbwirwaruhame. Hari abicaye imbere yabo hari amazi.

Baricaye barareba imbere yabo nubwo badakwiriye mu myanya yagenwe. Ni ababyeyi bambaye neza imikenyero ubona ko bose bafite isuku. Umwe muri bo afite agakapu mu ntoki uwo ku ruhande afite telefone.

Icyumba kiberamo inama kicayemo abagabo bagaragara batandatu ndetse bari ku ntebe nziza z'imikara. Bamwe muri bo imbere yabo hateretse mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi.

Ni abantu benshi bamabaye imipira isa, bakaba biganjemo urubyiruko ndetse n'abashinzwe umutekano, abari ku murongo w'imbere bicaye ku ntebe z'umukara, inyuma yabo hariho ameza ateretseho ibinyobwa abandi barahagaze.

Bicaye ku ntebe z'imihondo bose bari kureba imbere yabo bambaye imipira y'ubururu usibye umwe muri bo ubahagaze imbere ufite insakazamajwi ndetse ikiganza kimwe cyakoze kuri mudasobwa igaragara igice.

Ni abantu bicaye babiri muri bo barahagaze barimo umugabo wambaye ikoti, hari umudamu ufite insakazamajwi mu kiganza cy'iburyo akaba ari gutanga imbwirwaruhame, yambaye amadarubindi.

Icyumba kiberamo inama cyakira abantu benshi, bicara mu byiciro bibiri, bamwe bagira uruhande rwabo, abandi bakagira uruhande rwabo, ariko baba bahuriye hamwe. Ku meza mu bari mu nama, hateretse ibirahuri ndetse n'amazi.

Ni umugabo uhagaze ufite insakazamajwi akaba ari gutanga imbwirwaruhame. Yambaye neza, ariko abamukirikiye benshi muri bo bafunze igipfunsi. Hari umudamu wambaye iby'umukara ushinzwe umutekano.

Bicaye bari mu nama mu buryo buzengurutse, bamwe bari kwandika abandi bari kureba imbere yabo, hagati muribo hari umuntu uhagaze wambaye ishati y'umweru uri kubagezaho ijambo.

Arahagaze ari gutanga imbwirwaruhame n'i umudamu wambaye imyenda y'umuhondo, ikiganza ke k'iburyo gifashe insakazamajwi, afite impeta ku rutoki inyuma ye hari icyapa.

Abantu bicaye mu matsinda bari mu nama bagiye ku meza y'uruziga amwe ariho ibitambaro by'umuhondo andi ariho iby'umutuku intebe nazo ni uko bafite amazi ku meza.

Umudamu wambaye agakanzu karimo amabara y'umweru n'umutuku karengejeho akantu k'umukara afite insakazamajwi mu bantu mu biganza bye ari kureba iruhande hari imbwirwaruhame ari gutanga.

Abantu bicaye ku murongo, imbere yabo hateretse mudasobwa, ndetse umwe muri bo arahagaze, areba amashusho batunze ku gikuta, bigaragara ko ari yo bari kwigaho. Umwe muri bo yifashe ku kananwa.

Ni abantu babiri bicaye ku ntebe nziza z'imikara, ameza atukura ateretseho amazi yo kunywa ndetse n'insakazamajwi. Umwe ni uwushinzwe umutekeno wo ku rwego rwo hejuru undi ni umudamu

Abantu bicaye munama bose bari kureba imbere yabo abandi bafite amakayi n'amakaramu bari kwandika, buri wese kumeza ye hateretse ibitabo ndetse n'agacupa k'amazi ko kunkwa.

Ni abantu bicaye ku meza y'ibiganiriro bakaba barebana. Babiri muri bo bambaye utujiri tw'umuhondo naho mu bateye umugongo harimo umwe wifashe ku kananwa. Imbere yabo hari igishushanyo mbonera.

Bari mu nama baricaye, imbere yabo hari ameza ariho ibyo kurya n'ibyo kunywa byiganjemo amazi ndetse n'ibyayi. Bambaye imipira isa, umwe muri bo amanitse agatoki hejuru.

Ni abasore n'inkumi b'urubyiruko bicaye mu cyumba kiberamo inama bose bari kureba imbere bigaragara ko hari ubutumwa bari kuhakura. Umurongo ubanza hari abakobwa batatu umwe muri bo afite ikaramu mu ntoki.

Bicaye mu nama bose bareba imbere harimo abagabo, abagore, abirabura ndetse n'abazungu. Igikapu kiri hasi iruhande rw'umugabo ufite terefone mu ntoki.

Abantu bicaye mu nama ku nteba z'umukara z'imisego zegamirwa, ziri mu muzenguruko barareba impande yabo aho ku meza hateretse ibitabo, amaterefone ndetse n'amazi yo kunywa.

Abagabo n'abagore bateraniye mu nama bicaye mu bihande bibiri bitandukanye hari umugabo ufite mudasobwa iteretse ku meza ari imbere ye, hagati muri bo hahagaze umuntu.

Icyumba kiberamo inama. Ameza atukura hagati yayo harimo indabyo, azengurutswe n'abayitabiriye. Bamwe bafite mudasobwa imbere yabo, abandi bafite ibitabo ndetse n'uducupa turimo amazi yo kunywa.

Icyapa cyamamaza kiriho mudasobwa ebyiri, zikaba zose zirimo amashusho, n'ikirangantego cy'u Rwanda. Umutwe w'amagambo wacyo uragira uti" menyekanisha ipatanti y'umwaka yose".

Icyapa kinini cyamamaza ibikorwa by'irembo, kiri mw'ishusho y'umweru, ibyanditsemo ni ubururu. Hari umutwe w'amagambo ugira uti, serivise nshya ku rubuga irembo.

Icyapa cyamamaza serivizi zitangwa n'irembo giteretseho mudasobwa yanditsemo ibintu bitandukanye kiri mumabara y'umweru ibicyanditseho byandikishije ubururu, habanza ijambo rigira riti intambwe ya kane.

Ni icyapa kinini gifite ibyo kigaragaza, hariho ishusho y'umudamu uri kumwenyura, amarinete ateretse ku gitabo kiri ku meza, ndetse hari ibyo ari kwandika muri mudasobwa.

Ni akapa kamamaza ibikorwa by'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere. Kari muri terefone ndetse ibirimo byanditse mu ndimi z'amahanga, ikaba igaragaza ko umuriro wayo ugeze kuri mirongo inani nagatandatu ku ijana.

Ni icyapa cy'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro aho cyerekana itariki ntarengwa zo gusoreraho. Kiragira kiti,"menyekanisha uyu munsi wishyure mbere y'itariki". Ubu ushobora kumenyekanisha y'umusoro.

Umunara muremure uri mu mabara y'umutuku n'umweru. Ikirere kirijimye bigaragara ko imvura ikubye. Kizengurutswe n'utwuma na kazu gatoya k'umuhondo. Iruhande rwabo hari gutambuka abantu.

Abana benshi barikuva ku ishuri barikwambukiranya mu muhanda ahabugenewe hari imirongo y'umweru, bamwe barikugenda mu kayira kahariwe abanyamagauru, hari ipoto ririho umukobwa uryegamyeho wambaye ikanzu y'umukara.

Umunara uzamutse hejuru ugizwe namabara atukura ndetse nayumweru iruhande rwayo hariho igisahane kirekire nacyo gikurura ibijyanye namashusho kiyohereza mungo, ikirere kiratamurutse kirasa ubururu numweru.

Urupangu rwubakishije amatafari ya ruriba, idirishya ryarwo rishinzemo utwuma ducukura, imbere muri cyo hubatsemo urukura rurerure, rugaragazako ari umunara usanzwe wifashisha mu bijyanye ikoranabuhanga.

Ni icyapa cy'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru mu Rwanda ruri kwamamaza ikiganiro cy'ikigo cy'imisoro n'amahoro, aho bagira bati kurikira italiki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura.

Ni icyapa cyamamaza, Kiri mwishusho y'umweru kikaba kiriho umugabo wambaye agapira k'ubururu k'amaboko, ufite Telefone muntoki ye yayitunze imbere, akaba ari kigaragaza ibyo gikora.

Umudamu uri mu biro ufite amaherena ku gutwi wambaye agashati k'umuhondo wicaye ku ntebe y'umukara. Iruhande rwe rumwe hashinje ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda urundi ruriho ikirangantego.

Umuntu utagaragara neza, agaragara igice gito cy'umutwe ndetse n'ikiganza kimwe, ikindi gifashe kuri mudasobwa. Imbere ye handitsemo ibintu, bigaragara ko hari icyo arimo arayikoraho.

Umuhanda munini wagutse ariko utaragenewe gucamo ibinyabiziga. Abantu bahagenda n'amaguru, ndetse abashatse baricara bakaruhuka kuko hatewemo udutebe twabugenewe. Dukikijwe n'inzu ndende.

Umuteja ni ikiribwa kera hirya no hino abenshi iyo bagiye kuwuteka bawukatamo uduce dutu duto, uba usa icyatsi kibisi uyunguyu wo uratoshye bigaragara ko aribwo ukera.

icyapa cyamamaza kiriho ikirango cy'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere akabendera gato gahagaze mu ishusho y'umuhondo nini hakaba harimo intebe y'umukara ihateretse iticayeho umuntu.

Icyapa cyamamaza umutwe wacyo uriho akabara k'ubururu, ahagana hirya hari inzu nziza ijyanye n'icyerekezo. Ndetse hagati harimo amatara, rimwe riciyemo agakubo.

Umunara munini usize ibara ry'icyatsi uriho ibyuma bitandukanye byifashishwa mu kujyana imiyoboro. Ibingibi bituma habaho ikorananbuhanga ndetse n'itumanaho muri rusange

Ni igikingirije abantu bari mu gusarura icyayi, bamwe bafite imifuka ibari ku nyugu abandi bafite ibitebo biba biri inyuma yabo aho bagenda basoroma bashyiramo umusaruro.

Icyapa kirimo umweru mwinshi giteretseho mudasobwa cyanditseho amagambo atagaragara neza ndetse hejuru yayo hatangiza amagambo hari nk'ururimi rw'amahanga. Hariho umubare rimwe imbere yayo.

Umunara muremure hajuru kuri wo hari ibyuma byabugenewe bijyana itumanaho mu bice binyuranye biba biwukikije, urasa umweru n'umutuku, hasi yawo hateye igiti, ukaba uri rwagati mu gipangi.

Inzu ifunze itanga serivise, kuriyo hashushanyijeho ibyapa bigaragaza ibikorerwamo imbere. Ikigaragara n'ifoto y'umukobwa uriho uri kureba muri telefone wambaye ishati ndetse n'agapira karimo imbere k'umweru.

Ni icymba cyo kwigiramo kigezweho, aho umwigisha ari imbere yambaye agapira k'ubururu numweru, imbere ye hari abana babiri b'abazungu umuhungu n'umukobwa, abicaye inyuma bose bakaba bafite mudasobwa.

Ipoto ry'amashanyarazi riri rwagati, rikikijwe n'insina, ibiti, ndetse n'uruzitiro rw'indabyo, rufite inzu irimo imbere, igaragaza igice gito gusa cyo hejuru.

Umuhanda wigoronzoye urimo abantu batagaragara neza ukikijwe n'inkuta ndetse n'ibiti, amatara ari ku ruhande afite ubururu ndetse n'umweru, hari imodoka ziri ku ruhande rwaho.

Ibikoresho byifashishwa mu gusakaza ikoranabuhanga ndetse n'itumanaho biba bigomba kuba biri ahantu birinzwe ndetse habugenewe. Insinga zabyo zirindwa neza kugira ngo zitangirika bikaba byateza ikibazo.

Ni akazu kabamo abarinzi. Iruhande rwako hari umunara uriho urusinga rujyana hirya no hino ndetse gafite ingazi imanuka cyangwa ikazamuka ikaganamo, imbere yako hari urukuta rukiri rushyashya.

Insinga zifashe ku matara ndetse no ku munara muremure uri kugaragara hejuru mu kirere, hasi yawo hateye indabyo, ushamikiyeho insinga zijyana amashanyarazi hirya no hino.

Ni inzu ifite ibirahure by'umukara n'urugi rw'amabara y'ubururu ndetse no ku gisenge yaho bikaba ari uko. Imbere yayo hateye umutaka w'umutuku n'umweru ariko uwicayemo yambaye umuhondo.

Ni inzu ziri haruguru y'umuhanda, imbere yayo hateye ipoto zifite urukuta rutangira urupangu rw'amabuye runini cyane. Urugi rwarwo ni umukara imbere harimo amabati.

Ipoto rinini riri mu kirere hejuru ry'amashanyarazi rishamikiyeho insinga zijya hirya no hino abakozi bashinzwe kuritunganya baryuriye bariri hejuru uko ari babiri.

Ni umuhanda nyabagendwa uri gucamo ibinyabiziga birimo ipikipiki iri inyuma y'imodoka y'ubururu kuruhande rwawo hari umugenzi uri gutambuka ndetse ukaba ukikijwe n'amatara.

Umuhanda wagutse uri gucamo amapikipiki y'abantu bambaye ibitukura ,ariko ibirango byayo ntabwo bigaragara. hari urujya n'uruza rw'abari kwambuka umuhanda n' abari kugenda mumpande zawo. abantu ni benshi.

Ni ipoto rishinze rwagati mu mazu y'ubucuruzi, ririho insinga zambukiranya, zigemura umuriro. Hari utwuma dutukura turi hasi, hakurya hari gorofa ndende, ifite imiryango myinshi iri ku murongo.

Ipoto riteye iruhande rw'umuhanda, ririho z'amashanyarazi zijyana umuriro hirya no hino, imbere yaryo hari urukuta rwubakishije amatafari ndetse n'inzu igaragaza igisenge gusa, ku ruhande hari umukindo.

Umunara munini wifashishwa mu buryo butandukanye mu ihuzanzira, ikoranabuhanga ndetse n'amashanyarazi agacaho. Ushinze hagati ukikijwe n'indabyo, ibiti ndetse n'urugo ruri hirya yawo.

Urukuta rugaragara ko rushaje, imbere muri rwo hashizemo amapoto abiri ateganye, hariho insinga zijyana umuriro mu ngo z'abaturage hateyemo insina zizwiho kwera urutoki ndetse n'ibiti.

Umuhanda uri kugendamo imodoka nyinshi zishoreranye ku murongo. Iruhande rwaho hari gutambuka umuntu utagaragara, ugeze ahari umutaka w'umuhondo. Hino gato hariho icyapa cyerekana icyerekezo.

Ni igisenge cyiza kigezweho gisakaje amatebura, hejuru yacyo hariho ibyuma by'imirasire, iyi nzu ikaba yubakishijwe amatafari ahiye, iruhande rwayo hari ibyuma bizamuka biyifasha mu kuyiha amashanyarazi.

Imbuga nini ishashemo amabuye yabugenewe. Imbere yayo haparitse imodoka ishinzwe ubutabazi, iriho ikimenyetso cy'umusaraba nk'uko bisanzwe, ikaba yiganjemo umweru mwisnhi. Imbere yayo hahagaze abantu bari kuganira.

Ni inzu nziza y'amagorofa atatu ijyanye n'icyerekezo turimo, hanze yayo hari amamodoka aherereye ku ruhande rumwe abiri atukura. Ifite amarangi y'ubururu ndetse nay'umweru.

Hanze y'ibitaro hari abantu babiri bakorayo bambaye imyeru n'imikara. Bafite akuma kariho amazi bari mu kayira kabigenewe, i ruhande rwabo hari ubwatsi butoshye ndetse n'indabyo.

Ni inzu nini itangirwamo serivise, ku gisenge cyayo haciyemo urukuta rw'amabuye kikaba gitukura naho ibikuta birasa umweru, ifite mu mbuga ubwatsi butoshye burimo n'indabyo.

Umuhanda mutoya uri hagati mu mazu ku ruhande rwawo hari urukuta rwubakishije amabuye rutoya ubusitani burimo ubwatsi butoshye ndetse n'ikigega gifata amazi avuye ku mabati.

Ni abantu bicaye ku ntebe itambitse y'urubaho abenshi muri bo ntibagaragara gusa umwe wambaye ishati y'umukara ndetse mugenzi we yamushyize akaboko inyuma, hirya gato hari inzu yubakishije amabati manini.

Ni abaturage bicaye ku ntebe ipanze ku murongo bicaye bategereje serivisi, ahabanza hari umudamu ukenyeye igitenge uhetse umwana, imbere ye hateretse igikapu cy'umukara.

Imodoka y'imbangukiragutabara ishinzwe gutwara abarwayi aho rukomeye, ikaba ifite amapine akiri mashyashya, ibyuma byayo biyirinda mugihe yakoze impanuka byumukara nabyo biracyameze neza.

Ni ahantu hisanzuye hashobora guhagarara ibinyabiziga byinshi, ibibanza biri kumurongo wo hino, ni iby'umukara bifite amapine inyuma yabyo. hirya hari iz'umweru ziri kumurongo, zitandukanijwe hagati n'indabyo ndetse n'umukindo.

I ruhande rw'umuhanda hari rukurura itwara amazi ipfundikiye neza ku buryo ubuzima bw'abayigendaho butajya mu kaga. Hari urukuta rwubakishije amatafari ahiye rwanditseho ka Kabgayi.

Inzu yubakishije amatafari ya rurima ifite amabati atukura, imbere yayo hari ubusitani buteyemo ubwatsi butoshye indabyo ndetse n'igiti cy'umukindo kizwiho kuba ari umutako mwiza wo mu muhanda.

Ni umuhanda munini, iruhande rwawo hari akayira k' abanyamaguru ,hari uwegamye kucyuma kerekana ko aho hatemerewe kunyurwa , cyangwa se hagacibwa n' ubiherewe uburenganzira, mo imbere harimo inyubako nziza y' ikerekezo.

Abaturage bicaye mu bice bibiri, bose bategerereje serivise. Imbere yayo hahagaze ushinzwe kubakira, hirya gato mu madirishya, hari kugaragara abadamu b'abaganga umwe muri bo wambaye agapfukamunwa.

Utubati twagenewe kubika inyandiko mu buryo bwiza butuma zidatagarana cyangwa se ngo zibe zakwangirika, hagati mu kayira katwo harimo umudamu uri gushakisha urupapuro.

Inzu ifite ibikuta by'umukara n'umweru hasi hashashemo amakaro, igice gitoya cy'indobo kiri kugaragara, hari urugi ruriho rwerekana ko aho hantu hemerewe gukoreshwa n'abafite ubumuga.

Imfungwa n'abagororwa bari mu byiciro bitandukanye bavuye ku mirimo. Bamwe bafite amajerekani mu ntoki bari kumwe n'umucungagereza ureba neza ko hatarimo abari buze kumutoroka. Urupangu rwabo ni rurerure.

Abacamanza batatu bari mu nteko umwe muri bo arahagaze ikiganza cye k'ibumoso gifashe ibendera ikindi kirazamuye, babiri baricaye umwe ari kwandika, undi ateze amatwi ibyo avuga.

N'inyandiko iri kurupapuro rwera hagati yayo harimo imbonerahamwe hejuru hari ikirangantego cy'urwanda hakaba handitse amagambo agira ati "urukiko rukuru rwurugereko rwihariye ruburanisha imanza mpuzamahanga nibyaha byambuka imbibi".

Ni umufungwa uri kuramukanya n'ndi muntu yambaye impuzankano ibaranga ku kaboko k'ibumoso hariho isaha akaba ari kumwe n'umuntu utagaragara isura wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Intebe z'imbaho zitambitse zicayeho abagororwa babagabo, ndetse n'ababadamu. Hari abambaye impuzankano z'amapantalo aranga imfungwa ndetse hari n'abaturage bahagaze aho hafi benshi.

Mu mpuzankano ibaranga, abafungwa babiri b'abadamu, bahagaze imbere y'urukiko. Buri umwe mu ruhande rwe hahagaze umwunganizi we mu mategeko, ndetse umwe muri bo afite mudasobwa.

Umucungagereza mu mpuzankano imuranga, yambaye ibendera ku kaboko k'ibumoso mu mabara yaryo atatu, umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi harimo n'izuba. Yambaye ingofero y'umukara ndetse ari kwambika umufungwa.

Umucamanza w'umudamu arahagaze areba imbere ye, inyuma hari ibendera rigaragaza igice cy'ubururu ndetse n'izuba rigaragaramo, yambaye impuzankano ibaranga irimo ingofero y'umukara ndetse n'imyenda y'umutuku n'umweru.

Ni akabati gapanzemo ibikoresho bya kera, byifashishwaga mu gusakaza amashusho. Kari mu ibara ry'umuhondo, naho ibyo bigiye bitondetse ku murongo hakurikijwe ibyiciro byabyo.

Umufungwa uhagararanye n'umwunganira mu mategeko baganira kugira ngo babashe kujya imbere y'ubutabera. Inyuma yabo haragaragara umucungagereza ushinzwe kubarinda ndetse n'abandi benshi bicaye.

Umucamanza arahagaze ari kureba imbere ye yambaye mu imbere ishati inyuma mu mpuzankano ibaranga y'umutuku ndetse n'umweru aba nibo bakemura ibibazo ndetse bagatanga ubutabera.

Abacamanza batatu bicaye mu ntebe nk'uko imyenda yabo isa ikabamo n'akandi kabara k'umweru, barimo abadamu babiri ndetse n'umugabo umwe wambaye amadarubindi, hari insakazamajwi ziri imbere yabo ku meza.

Umushinjacyaha ufite insakazamajwi mu ntoki ikiganza ke kiriho impeta. Mu mpuzankano ibaranga y'umukara n'umweru, ku meza ye hateretse ibitabo, imbere hari ibendera rigaragara mu mabara yaryo icyatsi, ubururu n'umuhondo.

Umucamanza w'umudamu, arahagaze ari kureba imbere ye, yambaye amarinete, afite amaherena ndetse mu mwenda usanzwe ubaranga w'amabara atukura, umukara.

Umucamanza w'umudamu ufite imisatsi igiye inyuma ari kureba imbere ye. Yambaye impuzankano isanzwe ibaranga irimo akabara gatukura, ak'umukara ndetse n'umweru uri hagati umanuka.

Imodoka ishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro, irahagaze mw'ibara ryayo ritukura. Havuyemo abagabo babiri babyambariye ndetse bafite umupira uri gusohora amazi menshi, ugamije gucubya inkongi.

Iruhande rw'umuhanda hahagaze ushinzwe umutekano mu mpuzankano ibaranga y'umukara ndetse n'ibendera ry'igihugu riri ku rutugu. Imbere gato hari gutambuka umugabo wambaye umupira w'umweru n'ishati ndetse n'ipantaro y'ubururu.

Umutekano wo mu muhanda ni ingenzi, kuko urinda abaturage impanuka. Umupolisi mu mpuzankano imuranga, afite agakoresho mu ntoki kifashishwa mu gusuzuma ibyangombwa by'abatwazi.

Yambaye neza arikwije imyenda yabugenewe mu kugira ngo azimye inkongi, apfutse neza isura ye ndetse asigaza n'aho agomba guhumekera. Afite ipompo y'amazi ishinzwe kuzimya.

Ni umuhanda urimo abashinzwe umutekano, hirya no hino mu nkengero zawo. Umwe ahagaze imbere y'ikinyabiziga cy'umukara, ari kukiyobora akereka ubryo kigomba kumera, mo hagati hashinzemo utuntu tw'umutuku n'umweru.

Imodoka z'abashinzwe umutekano, ziri mu mbuga isashemo amabuye yabugenewe, imwe ifite ibyuma imbere, biyikingira mu gihe icyo ari cyo cyose yaba ikoze impanuka. Zose zirasa umweru n'umukara.

Inkingi y'urukuta rw'umweru yegamyeho igikoresho kifashishwa mu kuzimya umuriro. Iki gikoreshwa mu gihe inkongi yatatse inyubako, hasi yacyo harimo akantu gashyirwamo imyanda.

Abaturage benshi bahagaze bari kureba ibikoresho byagenewe kuzimya inkongi y'umuriro, ni ubukangurambaga bukunze gukorwa n'abafite umutekano, dore ko umwe muri bo ahagaze yambaye impuzankano ari kuberekera uko bikorwa.

Iyo wubatse inyubako igezweho ni byiza ko ushyiramo ibiyirinda inkongi, udukoresho turinda ibibatsi by'umuriro iyo byibasiye inzu turi mabara y'umutuku twose dutendetse ku murongo.

Abashinzwe umutekano wo mu muhanda bahagaze iruhande rwawo, bambaye imyenda y'umukara, uwo ku ruhande higanjemo uturongo tw'umuhondo. Inyuma yabo hari akazu abagenzi bahagararamo bategereje imodoka.

Abashinzwe kuzimya inkongi y'umuriro bari mu gikorwa, umwe aragaragara mu mwambaro wabo n'uwundi akaba ari uw'umutekano wambaye agapfukamunwa. Hirya gato haragaragara imodoka y'umuhondo itwara abagenzi.

Abanyeshuri bambaye impuzankana bari hanze y'ibyumba bigiramo, bose baricaye bari kureba mugenzi wabo uri kubaha amasomo yo kuzimya inkongi y'umuriro. Aho isafuriya iteretseho iri gucumba afite ikintu muntoki cyo kuyizimya.

Ni umuyobozi w'ishyaka rimwe ryemewe hano mu Rwanda, ari mu gikorwa cyo kwiyamamaza. Mu myenda ibaranga y'umweru ndetse n'icyatsi, abamwishimiye bamuri inyuma bazamuye amabendera ndetse n'ibirango byabo.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bamwe bahamya ko ari inwari yarwo ikiriho kuva yatangira kuruyobora yarugejeje ku iterambere rirambye, ibikorwaremezo, ubuvuzi amashuri, imihanda n'ibindi byiza.

Uwiringiyimana Agatha ni uwabayeho mu bihe bya kera akaba yarabaye n'umuyobozi k'urwego rw'igihugu, ndetse abarizwa mu ntwari z'u Rwanda kubwo kuba yaraharaniye kurwanya ikibi ndetse no kwimakaza amahoro.

Ni ikiganza gifite igikaramu kinini mu ntoki kiri kugenda gica uturongo ku mibare yamaze kurangira. Ni ikigo k'igihugu gishinzwe kubarura amatora kuko bari kugenda babara ijwi rimwe ku rindi.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda amanitse ikiganza hejuru apepera abaturage. Yambaye umwambaro wa efuperi inkotanyi ni mu gikorwa cyo kwiyamamaza. Amabendera menshi aranga uwo muryango ari mu kirere.

Umwambaro mwiza cyane w'ikote ry'umukara, ishati y'umweru mu imbere atambuka mu intambwe idasubira inyuma arikumwe n'umfasha we, umuyobozi mukuru w'igihugu abaturage bose barahagaze barikumukomera amashyi yinjira.

Ni ikirango cy'ishyaka rikomeye cyane ku mugabane wa Afurika ndetse no mu Rwanda, cya Efuperi inkotanyi. Bagira bati "Inkingi y'ubumwe, demukarasi, ndetse n'amajyambere", mu gikaro cyabo kibaranga kirimo hagati cy'intare.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ari kuramukanya n'umudamu, inyuma ye hari ikirangantego cy'u Rwanda, naho mu mpande hari amabendera abiri, rumwe ruriho irigaragaza inyenyeri n'ibara rimwe ry'ubururu, naho irindi rirayagaragaza yose ukon ari atatu.

Umukuru w'igihugu yicaranye na bamwe mu bayobozi. Arimo hagati yabo iruhande rwe hari umugabo wambaye iby'umweru. Inyuma ye hari abagabo bambaye amakote ndetse n'abadamu bakenyeye.

Numugabo wambaye neza ikoti ishati irimimbere yumweru ikiganza cye kimwe kiburyo kiramanitse ikindi gifashe kwibendera ry'igihugu, ndetse imbere ye hari insakazamajwi akaba ari gukora indahiro.

Abicaye mu nteko buri umwe ahugiye muri mudasobwa ayandikamo. Imbere yabo hari uducupa tugezweho dukoze mu kirahure two kunywesha amazi. Bari ku ntebe z'imikara harimo abadamu bakenyeye ndetse n'abagabo bambaye amakoti.

Mucyumba cy'itora umudamu uhetse umwana wambaye ibitenge, afite urupapuro mu intoki ari kurushyira mu indobo kuko arangije igikorwa, hagiye harimo ubwihugiko umuntu yihereramo agatora.

Umukuru w'igihugu ari gutambuka mu modoka ifunguye hejuru, agenda apepera abaturage. Yambaye agapfukamunwa, ishati utukura, n'ingofero y'umukara. Hakurya abaturage bamupepera, bamugaragariza urugwiro

Ni abantu babiri bicaye bari gushyira umukono ku masezerano, mu nyoki za buri umwe harimo urupapuro ndetse n'ikaramu. Umwe ni umuzungu, undi ni umwirabura wambaye ingofero y'umweru.

Amabendera atandukanye ari mu mbuga ateye ku muromgo ibyuma biyariho byose birasa umweru. Hari abashinzwe itangazamakuru bafite ibyuma bifata amashusho bakaba barimo kuyafata.

Imodoka nini iri mumuhanda imbere yaho harasa umutuku, inyuma ikikijwe n'utwuma tw'umweru, iruhande hari gutambuka abagenzi bari mukayira k'ababanyamaguru.

Umuhanda urimo imodoka itwara abagenzi rusange yicayemo umutwazi wayo gusa ntabagenzi barimo kuko imyanya ibere aho, ifite ibara ry'umweru imbere yabo hari gutambuka umunyonzi.

Urujya nuruza rwabantu bari mumuhanda ipikipiki irahagaze iriho umumotari udafite umugenzi, hirya gato hari utwaye ingorofani yo mubiti uhagarararanye numuntu barimo baganira.

Mu ijoro mu muhanda imodoka izwi nka twegerane yatwaraga abagenzi kera icanye amatara mu rwego rwo kugira ngo irebe imbere, i ruhande rwayo hari umudamu uhagararanye n'umusaza bari kuganira, hakurya yabo naho hari abantu.

Imodoka nini iri mu muhanda, ifite ikintu, inyuma yayo kigenda kikaraga, amapine yayo arasa umukara, hirya gato yayo hari imodoka zihagaze.

Imodoka ndende iri kugaragaza amapine mashyashya ndetse n'ibyuma biyariho, ikaba ifite ubururu ahatwara imizigo harimo; ibyuma bibitangira ndetse iri kubisikana n'izindi ziri m'umuhanda.

Umuhanda butangiye kwira imodoka zicana amatara. Iyi ni itwara abantu rusange ifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru, iruhande rwayo hari guca umuntu hirya no hino amatara ari kwaka.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo imodoka yikoreye imizigo muri yo hariho ishitingi ariko ntago itwikiriye yose kuko bimwe biri kugaragara ikaba isa umweru inyuma ifite ibyuma bijyamo ibijyitwaye.

Icyapa kirekire hejuru gifite mpande enye zitangana gishushanyijemo imodoka itwara abantu muri rusange n'inyuguti ya P kerekana ko ariho zikwiye guparika hepfo yacyo hafasheho utugozi turi mu mabara y'umutuku n'umweru.

Umuhanda nyabagendwa uri gutambukamo umuntu uri mu kayira k'abagenzi, wambaye inkweto z'umukara n'umweru ipantaro n'ishati, harahitamo imodoka nini yikorera ariko irimo ubusa.

Umuhanda wagutse utuje iruhande rwawo hari amamodoka azwiho gutwara abantu muburyo butari rusange, izibanziriza inyuma ifite akabara gato kumuhondo ahandi ikaba yiganjemo umweru

Numugabo uri gutambuka mumuhanda wambaye ipantaro izinze ndetse ninkweto zifunguye imbere ye hari ikinyabiziga kinini kizwiho kwikorera kizengurutswe na shitingi yubururu naho imbere hacyo hakaba hasa umweru.

Imokoka nyinshi ziri mu muhanda, mu mugoroba iyo bimeze bityo zicana amatara, higanjemo inini zitwara abagenzi, indi iri iruhande rwayo, zose n'umweru usibye imwe iri inyuma gato y'umukara, umugenzi ari kwambukiranya.

Umuhanda wisanzuye utuma ibinyabiziga bigendamo bidacucitse, byose byahanye intera. Amapikipiki ane ari kugaragara ndetse imodoka iri inyuma gatoya irasa umutuku.

Imodoka ndende izwiho kwikorera imizigo myinshi, irapakiye iruzuye ifite ishitingi y'ubururu ndetse n'imigozi iziritse umuzigo kugirango utangirika cyangwa ngo utakare.

Ni umuhanda w'ubwikorezi uri gucamo imodoka nini ifite imbereh'umweru ndetse n'amapine abiri ari kugaragara yonyine, urabisikana n'ipikipiki itwaye umugenzi bombi bambaye ingofero z'umuhondo.

Ruhurura iri iruhande rw'umuhanda yubakishije amabuye, uruhande rwayo rumwe ruratwikiriye urundi ntabwo rutwikiriye, ibi bishobora gushyira mukaga abayitambuka iruhande.

Umuhanda munini wagutse , ugaragaza nkushaje, urimo ikinyabiziga kinini cy' ubwikorezi, gifite ibara ry' umweru, hari upine uri hejuru muri cyo, uri kuri shitingi y' ubururu ishashemo.

Ni umuhanda, wiganjemo imodoka zitwara abantu muri rusange, yaba inini ndetse n'intoya, hari umusore ufite indobo mu ntoki, wambaye ipantao y'icyatsi akaba yafashe ikiganza kimwe mu mutwe.

Umuhanda urimo imodoka ebyiri ziri kubisikana, imwe ijya mu cyerekezo irasa umweru indi irasa ubururu, imbere muriyo harimo amakesi y'amayoga ndetse n'ibindi binyobwa.

Umuhanda urimo imodoka zifashishwaga kera mu gutwara abantu ndetse n'ibintu byabo. Ebyiri muri zo nizo ziri kugaragara aho ziganjemo umweru mwinshi. Inyuma yazo haragaragara urujya n'uruza rw'abantu.

N'umuntu hejuru wambaye umutuku mu mugongo harimo mirongo itatu na rimwe, ari guca hagati y'imodoka nini zizwiho gutwara abagenzi benshi, imwe y'iburyo yiganjemo umweru ibaruhuri by'umukara.

Iruhande rw'umuhanda hari gutambuka umugabo wambaye umupira w'umuhondo, imbere ye hari utugunguru dutoya tw'ubururu n'umutuku, hakaba ahari ipikipiki itariho umuntu yewe nuyitwaye hirya gato hari umuntu wicaye, nundi umuhagaze iruhande.

Ahantu hatangirwa serivise za MTN. Turabona umusore wambaye umupira w'umuhondo, yambaye ipantaro y'ikoboyi, yambaye isaha y'umukara. Tukabona kandi umuzungu yambaye ishati yiganjemo ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo, inyuma ye kandi hari n'undi musore wambaye umupira w'umuhondo urimo n'umukara. Umuzungu barimo baramwereka serivise zitangwa na MTN zitandukanye. MTN ni umurongo uhuriraho abantu benshi ukoreshwa n'abantu barenga mirongo irindwi ku ijana mu gihugu.

Imodoka zihagaze aho zagenewe, uko ari eshatu ziganjemo amabara y'umweru, imbere yazo hari inzu z'ubucuruzi ziri ku murongo zisa nk'umuhondo n'abantu bazikikije.

Umuhanda wifashishwa mugucamo ibinyabiziga harimo ipikipiki y'amapine atatu ifite agashitingi gatukura, iruhande rwayo hari gutambuka igare ritwawe n'uwambaye umupira w'ubururu ahetse umugenzi.

Umuhanda mugari hagati harimo umuntu uri gusunika igare ririho umufuka awufasheho inyuma. Amapikipiki arashoreranye imbere yayo hari imodoka ndende ifite icyuma. Kuruhande hari indi y'amabara y'ubururu.

Amagare abiri ari mu muhanda rimwe ku ruhande rwaryo n'irindi ku rundi. Hakurya yabo hari amamodoka ahagaze ndetse ari imbere y'inyubako z'ubucuruzi hirya gato haragaragara umuntu.

Ni ruhurura iri iruhande rw'umuhanda yubakishije amabuye magufi iyobora amazi mu gihe imvura yaguye kugira ngo ataba yagira ibyo yangiza, iruhande rwayo hari gutambuka abaturage ndetse n'imodoka ihagaze ifunguye.

Imodoka isohoka mu kayira k'abagenzi, yinjira mu muhanda mugari, irasa umweru, amapine yayo n'umukara ndetse n'ibyuma biyikikije, mo imbere harimo umuzigo utwikirije ishitingi.

Aho imodoka zihurira, mu byerekeza bitandukanye, imihanda yinjiranira mo, uhageze asabwa kugabanya umuvuduko mu rwego rwo kwirinda impanuka, haratambuka mo amapikipiki, ndetse n'ama modoka ajya mu byerekezo.

Imodoka nini iri mu muhanda ishinzwe gutwara abantu n'ibintu byabo, inyuma yayo har' igare, amapikipiki n'ibindi binyabiziga, uruhande rw'abanyamaguru nta muntu ugaragara usibye uri hirya gatoya,

Ninjoro mu muhanda aba ari ngombwa ko ibinyabiziga bicana amatara kugira ngo imigenderanire hagati yabyo ibashe kugende neza, ibi byoroshya uburyo zibisikana ndetse n'uburyo zigenda zihana umwanya.

Akayira k'abanyamaguru kari iruhande rw'umuhanda. Umugabo afite igare mu ntoki, ari kugenda arisunika; abisikana n'umudamu wambaye igitenge n'undi uri imbere ye. Ni mu nzira nyabagendwa dore ko n'ibinyabiziga biri guca mu muhanda.

Imodoka ndende itwara abantu rusange, ifite amapine y'umukara, hagaragara abiri yo kuruhande rwo hino, urwo ku rundi ntabwo agaragara, irasa ubururu n'umweru, ibirahure byayo birirabura, iruhande rwayo hari inyubako ndende.

Ni ahantu hubakishije amabati harimo akazu gato k'umuhondo hatangirwa serivisi, hari imyanya iticawemo gusa hari umuzungu n'umugabo bari kuganira bafite mudasobwa ku meza.

Ni umuhanda munini wagutse ariko ukumirwa gucamo imodoka dore ko ahabugenewe hashashemo amabuye meza y'imitako atambukaho abagenzi. Ukikijwe n'inyubako ndende zikorerwamo ubucuruzi.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru abakinnyi batandukanye babukereye baje gukora imyitozo ngorora mubiri aho bituma ubuzima bugenda neza wabikora neza bikakubyarira n'amafaranga biganjemo abambaye udusengeri tw'umuhondo.

Ni umuhanda mwiza ugezweho ugabanyijemo ibice bibiri, utandukanywa n'umwatsi buri hagati n'icyuma, aho uruhande rumwe rucamo ibinyabiziga, urundi rugakoreramo kwigorora no kwinanura mu rwego rwo kurushaho kugira ubuzima bwiza.

Ni umuhanda mwiza ugezweho w'icyerekezo ugabanywa n'icyuma hagati, hakuno haca ibinyabiziga ahandi hagenewe abagenzi ngo bajye bahakorera kwinanura umubiri ndetse no gusigasira ubuzima bwabo, hirya hari ubusitani butoshye.

Ikibuga k'imikino ngororamubiri ni ingenzi kuko bituma abantu bagira ubuzima bwiza. Ndetse iyo ubikoze nk'umwuga hari igihe bikubyarira amafaranga. Abana batatu bari kugaragara ndetse n'umupira bari gukina.

Ni uruzitiro, imbere yarwo hakaba harimo hantu hanini hahagarara amamodoka. Hariyo amapikipiki ndetse n'imodoka, inyuma hari inzu nziza.

Ubwatsi butoshye busa icyatsi kibisi bukaba ari ikibuga cy'umupira ariko kitagaragaza amazamu. Hirya hari ipine rihagaze ry'umukara ariko ritagaragara neza n'abantu barimo batambuka inyuma yacyo.

Ni ubwatsi bwiza butoshye, bukaba bwisanzuye. Haragaragaramo abantu babiri ariko umwe ntaboneka neza, bakaba bari kwambukiranya muri bwo. Hirya hari umuhanda, imodoka ziri ku murongo.

Icyapa cya mpandeshatu kigaragaza ahari umuhanda. Kizengurutswe n'akabara gatukura, imbere muricyo harimo ishusho y'umuntu, ufite igitiyo uri gukora umuhanda.

Umuntu uhagaze mu kayira k'abagenzi yambaye ipantaro y'umukara, ishati y'icyatsi afite agakapu ku rutugu, inyuma ye hari undi utagaragara neza bari mu biti bitoshye.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho y'uruziga , kizengurutswe n'akabara gatukura, n'akandi kari imbere muri cyo k'umweru, hagati harimo umurongo wigoronzoye w'umukara ndetse n'akarongo kamanutse muri wo.

Icyapa cyo mu muhanda kiyobora imodoka aho zigomba guhagarara kiri mu ishusho ry'umweru, hagati muri cyo, hashushanyijemo ikinyabiziga gifite amabara y'umukara ahantu hose.

Icyapa cyo mu muhanda kigaragaza ihuriro ryacyo, hagati muri cyo harimo ikimenyetso cy'umusaraba uri mu ibara ry'umukara, kizengurutswe n'umutuku mu ishusho ya mpande eshatu, hejuru hari akantu k'akaziga kirabura.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ibara ry'ubwiganze bw'umuhondo, kiri mw'ishusho ya mpande enye ariko zidateganye, hagati muricyo harimo akantu kumukara kerekana ko ari mw'ihuriro ry'umuhanda.

N'ibiti by'icyatsi kibisi bitoshye, iruhande rwabyo hari icyapa kiri mw'ishusho ya mpande enye zose zingana, hagati muricyo hashushanyije umugabo uri kwambukiranya umuhanda mw'ibara ry'umukara.

Ibyapa bitatu biteye ku cyuma kimwe, ikibanzs kirerekana ko ari metero ijana, igikurikira cya mpande eshatu kerekana ko aho hantu bagomba kuhambukira uhageze wese agomba kugenda gakeya.

Icyapa kigaragaza aho abagenzi bagomba kwambukira. Gifite mpande eshatu, umuzenguruko w'akabara gatukura, mo imbere higanjemo umweru. Harimo ishusho y'umuntu uri kwambukiranya umuhanda.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho y'uruziga izengurutswe n'ibara ritukura n'akandi karongo gasa gatyo gaca hagati muri cyo, igisate kamwe gito kiragaza ubururu n'ikindi nacyo nuko.

Icyapa cyo mu muhanda kigaragaza uko yinjiranamo inyuma yacyo hari umweru mwinshi naho gifite mande eshatu, kizengurutswe n'utukura umukara urimo hagati mo imbere, kikaba gisongososye ndetse hakaba barimo akantu gacometse ku kandi

Icyapa kiri iruhande rw'umuganda cya mpande eshatu kigaragaza ikerekezo gifite ibara ritukura, umweru ndetse n'umukara kiri ku giti gikikijwe n'amashyamab ndetse n'ibidukikije.

Icyapa kiri mu nkengero z'umuhanda kiri mu ishusho y'uruziga mo hagati cyanyanditsemo umubare mirongo itandatu mu ibara ry'umukara kizengurutswe n'iritukura ndetse umweru ni wo wiganjemo.

N'umuhanda wagutse ucamo imodoka hakurya no hino zijya mubyerekezo, hagati harisanzuye hateyemo ibyapa byerekana aho hantu ahariho, haracamo imodoka nini za rutura zizwiho kwikorera ibintu binini.

Imiryango itatu ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, ifite amakaro hanze mu mbuga yayo, ikaba isize icyatsi ahagana ku gisenge. Imbere y'umuryango hari umuhungu n'umukobwa, iruhande rwabo hateretse indobo y'umuhondo.

Icyapa kiyobora abantu kiri mu ishusho ya mpande eshatu. Kizendurutswe n'ibara ritukura mu imbere hakabamo umweru nkuko igiti cyacyo nacyo kimeze, harimo ishusho y'abantu babiri bari kugenda mu muhanda.

Icyapa cyo mu muhanda inyuma yacyo harasa umweru, kiri mw'ishusho ya mpand' eshatu. Kizengurutswe n'ibara ritukura hagati muricyo harimo umugabo ufite igitiyo, uri mubikorwa byo gukora no gutunganya.

Iruhande rw'umuhanda mu bwatsi hateyemo amapoto ariho insinga ndetse n'amatara biwumurikira, iruhande rw'akayira k'abagenzi hari icyapa kiri muri mpande eshatu kigaragaza ko ari ahambukirwa kuko gishushanyijemo umuntu uri kugenda.

Icyapa cyo mu muhanda hakizengurutswe n'ishusho nini y'umweru kiri mu ruziga, hari imodoka irimo y'umukara bikaba bigaragara ko aho hantu hatemerewe kunyura ikinyabiziga.

Umuhanda winjira mu wundi umwe urimo imodoka y'umweru, hakurya yawo ku murongo hara amazu, urukuta ruri hafi aha rwubakishije amatafari ya ruriba hari umuntu uri gutambuka mu kayira k'abanyamaguru.

Umuhanda ushashemo amabuye agaragara igice gitoya, iruhande rwawo, uzengurutswe n'amapoto ariho insiga, ibiti, ndetse n'inzu ikikijwe n'igipanyu cy'urukuta rw'amabuye n'utwuma.

Igorofa ndende rigizwe n'ibirahure ndetse n'inkuta zisa neza, munsi yaryo hari ipoto ririho itara, insinga zijyana hirya no hino zirayikikije, hari akapa k'umutuku n'umweru.

Imiturire iteye imbere igaragazwa n'inyubako zigezweho, amazu atandukanye ari mu gace. Harimo imwe murizo igaragara neza ifite amarangi y'umweru ahantu hose ndetse ikaba inageretse.

Umukingo utubakiye uri munsi y'umuhanda, haruguru hawo harimo ibiti hashinzemo umunara uriho insinga zigana mubyerekezo bitandukanye. Hari inzu yubakishije amatafari igeretse nziza iraho hafi.

Igice gito cy'imodoka kiri iruhande rw'umuhanda imbere yayo hari iduka ry'imiryango ibiri ricuruza imyenda, ingazi zurira ziganayo zizengurutswe n'utwuma by'umweru.

Inzu iri ahantu hatuje ikikijwe n'ibiti byinshi bisa icyatsi kibisi, yo irasa umweru imbere yayo hateye ubwatsi ndetse n'umukindo utari kugaragara neza uri ku ruhande rw'ibumoso.

N ipikipiki ihagaze mu muhanda, uyiriho yambaye ikoti ry'umukara, ndetse n'ingofero imurinda gukomereka y'umutuku. Ukikijwe n'amazu yaba ayo guturamo ndetse n'ay'ubucuruzi aragaragaramo urujya n'uruza rw'abantu.

Hakurya y'umuhanda hari inzu ndende y'aba mu butambike, ndetse nubujya hejuru imbere yayo haparitse ibinyabiziga byinshi bitondetse ku murongo umudamu wambaye ikanzu y'ubururu ari kwambuka agana hafi y'amapikipiki.

Imiturire iri mu buryo bw'ubwiganze igaragaramo amazu meza agezweho ndetse n'andi mazu aciriritse, ibingibi bigaragaza iterambere. Inzu z'umweru ndetse n'izicyatsi.

Urupangu rwiza runini rurimo inzu y'icyerekezo ifite irange ry'umweru isakaje ibisa nk'amategura, harasohokamo imodoka imwe ariko hari n'indi ihagazemo.

Ibice binini by'icyaro bitangiye kugaragaramo inzu z'imiturirwa zigezweho hari izigenda zizamuka zigaragaza imiturire myiza, zirirwa hagati mu biti ahisanzuye inyinshi muri zo zifite ibisenge by'umutuku.

Inyubako nziza igezweho, igaragara mu igorofa ryayo hejuru. Haragaragara inkingi ifasheho utwuma dutangira abantu ngo babe batakwitura hasi. Amadirishya afite ibirahuri ndetse by'umukara.

Urupangu rumeze neza rw'umweru rufite urugi rw'umukara inzu yarwo iragaragaza igisenge gusa, imbere hateye igiti cy'ipoto ndetse n'udupasiparume dukeya.

Igice k'icyaro ariko kiri gutera imbere kuko hari kuzamukama amazu meza y'icyerekezo, amwe akikijwe n'intoki ndetse n'ibiti, iy'imbere ni iy'amagorofa hari igaragara neza ifite amarange mashya y'umweru mashya

Inzu nziza y'icyerekezo igeretse ifite inkingi zisa nk'umweru izengurutswe nutwuma dushinzwe gutangira abantu kugirango batagwa, iruhande rwayo haparitse ipikipiki umumotari utegereje abagenzi.

Inzu y'igorofa ndende iriho ingazi ziyizamukaho ku ruhande, iparitse imbere yayo imdoka ebyiri harimo imwe y'umukara, haratambuka abagenzi ku mpande z'umuhanda n'ipikipiki iri hagati muri wo.

Mu muhanda hagati haratambukamo ipikipiki ntoya itwawe n'uhetse utuntu tubiri harimo agatukura n'ak'umuhondo, iruhande rwawo mu kayira k'abagenzi haratambuka umugabo hirya gato hari inyubako ifite amatafari ahiye.

Iruhande rw'umuhanda munini wagutse, hari igare rihagaze ritariho umuntu. Abantu babiri barimo umugabo n'umugore barahagaze bari kuganira n'utwara ipikipiki.

Umuhanda munini ipikipiki iri imbere ntamugenzi itwaye ikurikiwe nimodoka nyinshi zishoreranye za rutura ziziho gutwara imizigo iri hagati murizo niyo igaragara cyane ifite irangi ry'ubururu n'umweru.

Umuhanda muremure winjira mu yindi, ikinyabiziga cy'umukara kiri kuwugendamo ndetse n'amapikipiki, imwe iri imbere indi inyuma mu mpande ukikijwe n'indabyo, ibiti, n'amatara arimo hagati.

Ihuriro ryumuhanda ujya mubyerekezo bitandukanye hari igare riparitse kuruhande ryegetse kugakuta gatoya kubakishije amabuye ariko nyiraryo ntagaragara, hakurya hari ibiti byiza bitoshye.

Umuhanda munini wagutse ukoze neza kuburyo ushobora gucamo ibinyabiziga byinshi, hagati muri wo hateyemo ubwatsi, ndetse n'ibiti by'imikindo bizwiho imitako yo mu muhanda, hirya hari utwuma tw'umweru.

Ni ihuriro ry'umuhanda rigaragaramo imirongo y'umuhondo ndetse n'akazengurutse k'amabuye gafite umweru n'umukara hagati muri ko hateyemo ubwatsi butaramera neza ndetse n'igiti cy'umukindo kizwiho kuba umutako wo mu muhanda.

Kimwe mubiranga umuhanda, ni ukugira uruhande ruhagararaho imodoka, mugihe abagenzi bagiye kuzivamo. Ndetse aho hakwiye kuba hari utuzu tumeze neza abategereje bagomba kuba bicayemo.

Ni umuhanda muto ariko muremure. Impande zayo ukikijwe n'ibiti. Uri gucamo ipikipiki irenga, ndetse n'indi iri imbere yayo. Inyuma gato hari igare, ku nzira y'abanyamaguru hari kugenda hatambuka abantu.

Umuhanda munini wagutse, uri gucamo ipikipiki itwaye umugenzi iri imbere, inyuma hakaba imodoka igaragara igice kimwe yikorera imizigo, isa umweru, ikaba ifite umupine hejuru.

Ni umuhanda mwiza ushobora gukora ibintu bibiri, aho imodoka zimwe zica hejuru, izindi zigaca munsi yazo. ibi bikaba birushaho kunoza imigenderanire, ndetse n' imihahire y'abaturage.

Iyo umuhanda ari mwiza wisanzuye hakurya no hino yawo, byorohereza amamodoka kubisikanimo ndetse bigafasha mu migenderanire, ahambukira abagenzi hageze imodoka y'ubururu yacanye amatara.

Umuhanda muto wubatse neza ukaba worohereza imigenderanire hari amapikipiki abiri ateganye ari guca ku mudamu uri mu kayira k'abagenzi, kumpande hari amatara ndetse n'ibyapa.

Ni mu ihuriro ry'umuhanda mu nini aho zigera zikizengurutsa kugira ngo zige mu byerekezo byazo. Uzengurutswe n'utubara tw'umweru ukaba mu mpande ushinzwemo amapoto ariho amatara.

Umuhanda mwiza w'icyerekezo unyuranyuranamo, aho ibinyabiziga bimwe bica hejuru, ibindi bigaca munsi ubona ko ari ibigezweho. Iruhande rwaho haparitse abanyonzi, bategereje abagenzi.

Ihuriro ry'umihanda wagutse ufite ibice bitatu riri gutambukamo amapikipiki, hari ahetse abagenzi ndetse n'ariho abayatwaye bonyine, ibiti bikikije umuhanda ndetse n'amatara ateyemo hagati.

Umuhanda wubatse neza wihitisha iterambere kuko utuma abaturage bagenderanira, iruhande rwawo hari gucamo umuturage mu kayira kagenewe abanyamaguru hari icyapa kirimo inyuguti ya pa ndetse kizengurutswe n'ibara ritukura.

Umuhanda munini wagutse, mu ijoro, amatara aracanye. Hakurya yawo nta bantu bari kuwugendaho, hari ikinyabiziga kiri guturuka imbere, cyamuritse cyane. Rwagati muri wo hateyemo ubwatsi butoshye ndetse n'ibiti by'umukindo.

Umuhanda wigoronzoye wagutse munini wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bishoreranye, hakurya ntamodoka igaragaramo hagati harimo ubwatsi ndetse n'imikingo n'amatara amurikira izi modoka iyo bwije.

Umuhanda munini wagutse hakurya yawo hari umunyonzi utwaye umuntu, naho mu nkengero zawo ipikipiki iparitse itegereje umugenzi aparitse, kandi igare ririho umuntu wambaye ibitukura.

Umuhanda mugari wagutse mu ihuriro ryawo, hari aho abagenzi bambukira habugenewe haciyemo imirongo y'umweru, hari ibyuma bigaragaza ugucana kw'amatara n'ibimenyetso byereka ibinyabiziga uko bitambuka bisimburana.

Ihuriri rinini ry'umuhanda, rishushanyijemo imirongo y'umuhondo, hakurya yayo hari gutambuka abasore babiri bagenda baganira, hirya gato hari ibiti bikikije uyu muhanda.

Aho abantu bambukira mumuhanda harangwa n'imirongo y'umweru, ibi byashyizweho murwego rwo kugirango hajye hirindwa impanuka. Ibinyabiziga iyo bihageze birahahagarara maze abagenzi bagatambuka.